Ahantu hari imyaka ihinze irimo amazi menshi, hari kunyuramo abantu batatu bambaye ingofero z'ibiziga, bose bahetse amapombo mu mugongo, bari gutera iyo myaka imiti.

Umurima uteyemo ibigori bitaraheka, mu uwo murima harimo umudamu witeze igitenge mu mutwe gisa n'icyo akenyeye, yambaye ishati y'umweru n'umusaraba mu ijosi, yambaye umukufi umwe w'amasa y'umweru ku ukuboko, umudamu ahetse ipombo ari gutera umuti ibyo bigori.

Ahantu hahinzwe imbuto, hari umugabo uhagaze muri zo mbuto, yambaye igishashi kiri mu ibara ry'umweru yambaye ga z'umuhondo mu ntoki, mu mugongo ahetse ipopo y'icyatsi, ari gutera umuti izo mbuto.

Ahantu hari ibyatsi, kuri ibyo byatsi hari ikiganza cyambaye ga z'icyatsi, gifashe icupa ry'icyatsi, iryo cupa bigaragara ko ririmo umuti ushobora kuba wumisha ibyatsi.

Ahantu hari ibihingwa bitoshye, bimeze nk'amashu, muri byo harimo abagabo babiri, umwe muri bo ari gutera umuti ayo mashusho, inyuma ye hari ibiti birebire, bikikije aya mazu ndetse hakurya hari guturika umwotsi bigaragara ko hari ibintu batwitse.

Ahantu bakorera uburobyi bw'amafi, harimo icyuzi, icyo cyuzi kirimo urucundura rwafashe amafi menshi, iruhande rwako hariho ikintu kimeze nk'isafuriya, urwo rushundura rufiteho utuntu tw'umweru tumeze nk'utudongi.

Ahantu hari igikuta giteye irangi ry'umuhondo, hari akameza gateretseho agakarito gato, hari umuntu wunamye kuri iyo meza, imbere ye hateretse ifi, afashe agati hari ibintu ari gukura muri iyo fi.

Ahantu hari amafi y'ubwoko butandukanye, hari udufi dutoya hari amanini ari mu gapaniye, harimo ay'amabara y'umukara cyane harimo andi afite ibara ry'umukara ariko atari umukara neza bigaragara ko aha hantu barobera amafi.

Ahantu haronze amafi menshi, ayo mafi yamaze kurobwa yose icyo ahuriyeho nuko ari kugaragara ijisho rimwe gusa, ayo mafi afite utuntu tumeze nk'amababa ku ruhande.

Ahantu hubakiye ibyuzi by'amafi hari umudamu uhagaze iruhande yambaye agapira ka oranje akenyeye igitambaro mu mutwe ku ruhande rw'iburyo hari umurima w'urutoki harimo urutoki rwinshi cyane.

Umurima uhinzemo icyayi, hari ibiti by'icyayi bikuze, byatangiye kuzana icyayi, hari n'ibindi bito, bikimera, iki cyayi gihinze ku mirongo.

Imirima ihinzemo icyayi, muri iyo mirima hagati hari kugaragaramo amazu abiri, umwe muri uwo murima harimo umudamu uri gusarura icyayi, yambaye akagofero kajya gusa n'umweru, ahetse igitebo mu mugongo.

Inkoni mu murima harimo umugabo wambaye ingofero yambaye ishati yanatebeje ahetse mu mugongo urufuka runini rupfutse hejuru, iruhande rwe hari ibiti by'ikawa ndetse iyo kawa bigaragara ko yeze kuko irasa n'umutuku.

Mu gishanga, igishanga gihinzemo umuceri, uruhande rumwe umuceri warengewe n'amazi harimo amazi menshi, urundi ruhande rurimo ibiti birebire.

Umurima w'icyayi muri icyo cyayi harimo abantu batatu bahetse udupaniye mu mugongo bari gusarura. Inyuma y'abo hagiye hateretse udufuka bari kugenda barashyiramo icyayi. Icyo cyayi kiratoshye cyane.

Udusozi tubiri duto duteganye, hagati y'utwo dusozi hagiye hanyuzemo utuyira, abantu banyuramo hagati yaho iyi misozi ihuriye, hari ikibaya giteyemo imyaka itoshye, iyi misozi yose ndetse no hakurya yayo urabona ko irasa icyatsi, harimo imyaka myiza.

Ahantu hari agatebo karekare, agatebo gakikijwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti muri ako gatebo harimo ikawa, bigaragara ko hari umuntu uri gusoroma ikawa.

Ahantu hahinze igiti cy'ikawa, hari umudamu wambaye agapira k'umukara uri gusoroma ikawa mu mutwe afitemo agatambaro kajya gusana n'icyatsi, iruhande rwe hari kugaragara amakoma y'urutoki.

Umurima bahingamo icyayi, harimo abantu batanu bari gusarura, muri bo harimo umudamu ukenyeye ishashi ndetse afite agapaniye kanyuze mu ijosi ari ko kari inyuma, ni ko ari gusaruriramo icyayi.

Umurima w'icyayi, uwo murima urimo ibiti birebire, by'indumburabutaka, ibyo bitibisa n'ibibiri guhuhwa n'umuyaga, hakurya hari imisozi myiza y'amaterasi y'indinganire, hirya y'iyo misozi kandi hari undi musozi uriho iminara.

Imirambi myiza iteyemo ibimera bitoshye, muri iyo mirambi harimo abadamu bane bose bari gusarura icyayi, umwe yiteze igitenge mu mutwe n'akagofero k'umutuku, yambaye isaha, ari guseka cyane.

Ahantu hari amacupa menshi atondetse muri yo harimo ajya gusa n'ibara ry'icyatsi kibisi, imbere yayo hateretse udukarito twinshi, muri two hari agakarito kariho itungo.

Ahantu hari udukarito twinshi dutandukanye hari ibikarito binini, hari udutoya, udutoya dushushanyijeho intama n'inka, hanyuma itunini dushushanyijeho intama n'inka n'ihene, hari n'amacupa ashushanyijeho inka, ihene n'intama.

Amacupa menshi, harimo amacupa manini n'amato, amenshi afite imifuniko y'umweru, harimo aho hantu hari ibikarito by'imyeru, hari ibikarito by'imituku, muri ayo macupa, amanini abiri, ashushanyijeho inka.

Amacupa menshi y'ubwoko butandukanye, ayo macupa yose afite imifuniko y'umweru, harimo amanini ndetse n'amato, muri ayo macupa harimo amacupa, ashushanyijeho ibishushanyo by'imbuto.

Icyumba kirimo amacupa menshi atandukanye; aya macupa amenshi afite imifuniko y'umweru yanditseho amagambo agiye atandukanye; kandi kuri ayo macupa amwe muri yo ariho ibishushanyo by'inka.

Ahantu hari utujerekani duto tw'umweru dufite imifuniko y'icyatsi, harimo amacupa, atandukanye ashushanyijeho inka, ndetse harimo n'ipombo bateye ipombo bakoresha bari gutera inka umuti.

Akabati karimo amacupa menshi muri yo hari afite imifuniko y'icyatsi, iy'umweru, iy'umuhondo, ayo macupa ashushanyijeho amatungo intama, inka, ihene, ingurube, munsi y'ayo macupa hari utujerekani twinshi.

Ahantu mu cyumba kirimo amashashi menshi ayo mashashi hari ayanditseho magana abiri yanditseho amagambo y'icyongereza, ashushanyijeho inkoko isake, inkokokazi ndetse n'udushwi tubiri.

Ni mu kiraro bororeramo inka icyo kiraro kirasakaye, harimo inka z'amabara y'umweru n'umukara z'inzungu, harimo muri icyo kiraro harimo umudamu wambaye ikanzu y'umutuku, yambaye na rinete afite n'amaherena, ahagararanye n'umugabo muremure ufite inda ije imbere n'uruhara.

Mu murima w'ibigori muri uwo murima mo hagati bahinzemo urubingo, muri uwo muririma harimo umugabo afashe umuhoro mu ntoki ze afashemo urubingo bigaragara ko ari kwahira.

Ahantu hari ibiti birebire bimwe byagiye bikokoka amababi bigaragara ko nta mvura iheruka kuhagwa, aho hantu kandi hari abantu babiri bambaye ingofero, umudamu n'umugabo, impande zabo hari inka zidafite amahembe.

Ni mu ifamu, iyo famu irimo inka z'amabara atandukanye, hari z'umukara z'umukara n'umweru, muri izo nka hari iyambaye iherera ku gutwi, muri iyo famu kandi harimo umushumba, yambaye bote n'imyenda gusa n'umweru yegamiye inkoni.

Hagati mu mirima harimo akayira kari gucamo umudamu ufashe isuka mu ntoki, ibumoso mu kaboko k'ibumoso afashemo amabase, imbere ye hari abandi bantu na bo bari kugendera muri ako kayira.

Ni mu murima uhinzemo ibigori, ibitoki, imyumbati muri uwo murima hari umugabo n'umudamu, bombi bafashe amasuka bayashyize ku rutugu, umugabo yambaye agasaraba mu ijosi naho umugabo yambaye ishati yambariyemo agapira k'umweru mu nda.

Ahantu hari ibiraro, imbere y'ibyo biraro, hari inka z'amahembe maremare z'Inyambo, ziri konsa, iruhande hahagaze umugabo wambaye imyenda y'ubururu, inyuma y'ibyo biraro hari ibiti birebire.

Ni mu muririma w'ibirayi harimo umudamu n'umugabo, umugabo yambaye ingofero yu'ubururu, n'umupira ujya gusa n'ubururu, umudamu akenyeye agatambaro k'umukara mu mutwe, hirya y'uwo muririma w'ibirayi, hari ibishyimbo bya mushingiriro.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi, kariho V ku gituza, yambaye akagofero n'agapfukamunwa, ahagaze ahantu hari ubwoko bwinshi bw'imbuto, bigaragara ko ari ahantu bakorera imbuto kuko hari iziri mu gafuka, hari iziri muri pepeniyeri ndetse izo mbuto zirasakariye.

Ni mu murima, uwo murima uhinnzemo imboga z'amoko atandukanye, muri zo harimo ibitunguru, muri ibyo bitunguru kandi hagiye yahinzemo imboga zo mu bwoko bwa dodo.

Umurima umwe urimo ibishyimbo biri kumera by'umwaruko bifite amababi agitoshye, iruhande rwabyo hagiye hatakara amababi y'ibiti bya gereveriya ndetse iruhande rw'ibyo bishyimbo biri kumera harimo utundi twatsi duto turi kumera, tumeze nkaho ari utwatsi tw'umwange.

Ni mu murima uwo murima urimo ibihingwa by'imyumbati, hari umyumbati wameze neza, iruhande rwayo hateretse icupa, inyuma nta bintu bihinzeho hari ubuhinge buri kumeramo ibyatsi.

Ahantu harunze ibirayi byinshi ibyo birayi ni iby'umweru ibyo birarayi bigaragara ko babikuye biteze kuko bifite udushishwa ku mpande byarashishutse cyane.

Ikintu k'icyatsi kimeze nk'umuvure, kirimo ibintu bitandukanye, harimo amavuta yo kwisiga, hariho agakarito ka korogati, harimo inyanya, harimo ibirungo by'amoko atandukanye.

Ahantu hari ikirambi kirimo ubwatsi butoshye, kirimo imyaka, hari ibiti bitatu by'inganzamarumbo, ku ruhande rw'ibumoso, ku ruhande rw'iburyo hari ibindi biti birebire bigiye byubatsemo amazu y'abaturage.

Mu misozi miremire iyo misozi miremire irimo ibiti byinshi kandi harimo igihu, imbere y'iyo misozi hari imisozi mito isa naho ihinzeho imyaka irimo ibiti bigiye bitatanya.

Ahantu hari amafamu menshi hagati y'ayo mafamu harimo ibiti by'inganzamarumbo birebire ayo mafamu kandi hagiye harimo amazu atatanye.

Ahantu hari ibiti byinshi birebire by'amoko atandukanye muri byo harimo igiti cy'ipapayi ya kizungu kiriho amapapayi menshi ndetse kiriho n'amababi menshi cyane.

Ahantu hari indobo nyinshi, izo ndobo zirimo ibiti by'amoko atandukanye, hari indobo irimo igiti cy'umuhembe cyashibutseho amatabi atatu.

Ahantu hari imboga zihinze kijyambere, zimwe zihinze hasi izindi zihinze hejuru yazo, iruhande rwazo hari igipangu kigizwe n'ibyuma ndetse n'amatafari ahiye, hirya yaho hari amazu arimo inzu isakaje amabati y'umutuku iri mu ruhande rwo hepfo.

Ahantu hatanditse ibiribwa bitandukanye muri byo harimo: imiteja, inyanya, karoti, pavuro, tungurusumu, urusenda n'ibindi bitandukanye.

Ahantu hari imbuto z'amoko atandukanye harimo: inyanya, hari pavuro, hari pome, hari indimu, hari imineke, hari inkeri, hari karoti, hari sereri, hari ibihaza n'ibindi n'izindi mbuto zitandukanye.

Ahantu hari uburabyo bw'amoko atandukanye, hari uburabyo bw'umutuku n'icyatsi, hari ubw'umuhondo n'icyatsi, hari ubw'umweru n'icyatsi.

Ahantu hari ibihingwa byinshi, muri byo hari amashu, muri ayo mashu harimo imirasire kandi hahagazemo umudamu ufite igihombo ari gufuhira ayo mashu, yambaye urunigi rw'amasaro y'umweru mu ijosi.

Ni mu murima w'ibigori bikiri bito, ibigori bitoshye harimo ibyuma kabuhariwe mu gufuhira, bifuhirira hejuru, iruhande rw'ibyo bigori urabona ko hahinze indi myaka kandi nayo iratoshye.

Ahantu mu murima hahinzemo imyaka harimo igiti kirekire kandi uwo muririma urimo abantu, muri bo harimo umugabo ufashe igihombo bigaragara ko ari gufuhirira imyaka ye.

Mu murima uhinzemo ibijumba, ibyo bijumba bihinze mu buryo hagati hagiye hanyuramo inzira, hagati harimo utumamashini twinshi turi gufuhirira tunaga amazi ku mpande zitandukanye z'uwo murima.

Ni mu murima uhinzemo amashu, harimo umudamu uri guseka afashe uruhombo mu ntoki, ari gufuherera ayo mashu, hirya y'ayo mashu, hahagaze abandi bantu batatu kandi inyuma yaho na ho hari undi murima w'amashu.

Umurima uhinzemo ibigori, ibyo bigori bihinze ku buryo bw'imironko iringaniye, muri uwo murima hanyuzemo igihombo kigiye gitoboyeho kinyuramo amazi, icyo gihombo kigenda cyohereza amazi muri buri muronko hagati y'imironko ihinzemo ibyo bigori. Ubu ni uburyo bwo gufuhira bukoreshwa cyane cyane mu Karere ka Nyagatare.

Umurima uteyemo ibishyimbo bikimera by'umwaruko, umurima ukikijwe n'ibiti by'ibitovu, muri uwo murima hagati, harimo umugabo wambaye umupira w'icyatsi afashe rozwari, ari gufuherera urubuto, ruteye muri ibyo bishyimbo hagati.

Ahantu hari umunara, uwo munara iruhande rwayo hari akazu, gakingishi metarike y'ubururu, gateye irangi ry'umweru, inyuma yako hari akandi kazu gasakaye ariko uruhande katubakiye.

Ni ahantu mu mirima harimo abagabo benshi bahagazemo, iyo mirima ihinze mu buryo bw'amaterasi y'indinganire, imirima inyuzemo ibihombo bifohera imyaka.

Ahantu hari amazi atemba iruhande rw'ayo mazi hari utwuma dufatanye duteye irangi ry'umutuku n'umweru, hirya y'ayo mazi hari amashyamba afatanye arimo n'ibiti by'amoko atandukanye.

Ni mu murima w'ibigori bikiri bitoya hahagazemo umugabo bari gufuhirira ibyo bigori bakoresheje ibyuma bifuhirira kure hakurya y'uwo murima hari imisozi ubona irimo ibiti.

Ni mu murima w'intoryi hahagazemo abagabo babiri n'umudamu umwe, umudamu yambaye: ingofero, amarinete, agapira k'umuhondo, ipantaro y'umukara, hirya yabo hari undi murima urimo ibigori hirya y'uwo murima urimo ibigori harimo urutoki.

Ahantu hari ikiyaga, icyo kiyaga mo hagati hari kugaragaramo ibirwa bibiri, hakurya y'ikicyo kiyaga hari imisozi hino yacyo hari ibiti birebire ndetse hari n'urutoki, urutoki rurimo ibigori.

Ahantu hari imisozi miremire y'amashyamba, hagati y'iyo misozi harimo udusozi duhinzeho amaterasi y'indganire meza, iruhande rw'iyo myaka hari inzu isakaje amabati y'umutuku ikikijwe n'ibiti birebire.

Ahantu hari ibiti birebire ibyo biti munsi yabyo hahagazemo umugabo hepfo y'uwo mugabo hahinze urutoki ndetse hakurya y'urwo rutoki hari imisozi ibiri umwe unyuzemo umuhanda kandi iyo misozi yose iriho ibiti.

Ahantu hari udusozi twinshi mo hagati hagiye harimo ibibaya, utwo dusozi duteyeho imyaka turimo utuyira twinshi abantu bacaho, hariho ibiti byinshi biteye utwo dusozi.

Ni mu kibaya hahinzemo imyaka isa n'umuceri, mo hagati hanyuzemo amazi, ikibaya gikikijwe n'imisozi iriho ibiti kandi ituyeho abantu.

Ahantu hari ikirunga, icyo kirunga cyabuditseho ibicu, munsi yacyo hatuye abantu, hari ibihingwa bitandukanye harimo urutoki n'ibindi biti bitandukanye ndetse hari n'ikiyaga munsi y'icyo kirunga.

Ahantu hari imisozi miremire ihingwamo imyaka mu buryo bw'amaterasi y'indinganire, iyo misozi kandi irimo ibiti ndetse n'amazu y'abaturage yubatse atatanye.

Ahantu hari imirima ihinze ndetse n'indi idahinze, muri iyo mirima hagati hagiye hanyuzemo ibiti by'amoko atandukanye, indi irimo imyaka isanzwe, iyo mirima mo hagati hanyuzemo umugezi w'amazi utemba.

Ahantu hari inyubako isakariye, yubatse mu buryo bumeze nk'inyubako igeretse, harimo inkoko nyinshi ndetse ihagazemo umugabo, bisa n'aho ari kwegeranya amagi, izo nkoko ziba zateye.

Mu cyumba giteye umucanga hasi gikoteye sima, icyo cyumba kirimo ingurube ibyibushye ndetse iyo ngurube ihagaze mu bintu bimeze nk'ibarizo, bigaragara ko ari ibiribwa irya.

Ahantu hari ihene nyinshi ziganjemo iz'amabara y'umweru n'ikigina, ziri kurisha ubwatsi bwo hejuru, hirya y'izo hene hahagaze umugabo wambaye agapira k'umuhondo, inyuma ye hari ibiti birebire by'inturusu.

Ahantu hari inkoko nyinshi zisa z'amabara y'umutuku, iruhande rwazo hari amababa yazo yagiye apfuka, mu bigaragara ni ahantu bororera inkoko.

Ni mu ifamu, iyo famu irimo inka nyinshi, izo nka zifite amahembe maremare asa n'agiye guhura, muri iyo famu harimo ibiti kandi hahagazemo umugabo wambaye ipantaro y'umukara iriho umwe ku ruhande, yambaye n'umupira w'umutuku ufite amaboko y'umukara.

Ahantu bororera amatungo yo mu bwoko bw'ingurube, ni icyumba gifungiranyemo ingurube nyinshi cyane, iki cyumba ku ruhande gikoteyeho na sima, ahandi hose hateye umucanga.

Icyumba kirimo amatara menshi maremare, icyumba kirimo utuntu tw'umweru, duteretse mu mifuniko y'umutuku kandi icyo cyumba kirimo imishwi myinshi, ihagazemo umugabo, uri kureba muri iyo mishwi.

Ni ahantu mu ifamu irimo ubwatsi burebure ndetse n'ibiti birebire, muri iyo famu harimo inka z'amoko atandukanye harimo izifite amahembe, muri izo nka harimo inka ebyiri zisa neza ndetse inka imwe n'ikimasa gifite ipfupfu.

Abagabo babiri bahagaze mu cyumba, iki cyumba bahagazemo giteye umucanga, gisakaje amabati y'umweru, abo bagabo harimo umwe wambaye agapira n'ipantaro byose bijya gusa n'umukara, yambaye bote z'icyatsi, abo bagabo bahagaze hagati mu nkoko nyinshi, mu bigaragara bahagaze ahantu bororera inkoko.

Inyubako ikingishije amadirishya y'imbaho, inyubako iteye umucanga hahagazemo umugabo ufashe igi ku giti cy'umutuku, icyo cyumba umugabo ahagazemo kirimo inkoko nyinshi, bigaragara ko ari aho bororera inkoko.

Inyubako nini irimo amatara menshi cyane, muri iyo nyubako harimo imishwi myinshi myinshi cyane kandi hagati y'iyo mishwi, hagiye harimo ibintu by'umweru, bitanga ubushyuhe muri iyo mishwi.

Ahantu horerwa inka bya kijyambere, hari ikiraro kigezweho, gisakaye n'amabati, hahagaze umugabo uri kugaburira inka ubwatsi, uwo mugabo yambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Ahantu hafungiye ihene nyinshi z'amabara y'umweru, harimo ibisekurume biri kwimya hirya hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Mu cyumba, iki cyumba kirimo inkoko nyinshi z'amabara atandukanye harimo iz'umukara, iz'umutuku, iz'urugondo, iz'umweru muri iki cyumba kandi harimo ibiti bitambitse, muri ibyo biti hagiye hahagazeho inkoko.

Ahantu hari ubwatsi bwiza bigaragara ko ari mu ifamu, hari inka nziza z'amabara y'ikigina, ay'umukara iruhande rw'izo nka hari ibiti birebire ndetse hejuru y'ibyo biti hanyuzemo urusinga rw'amashanyarazi.

Ahantu bacururiza imbuto zo guhinga muri zo hari izijya gusa n'umweru, hari izijya gusa n'umutuku, hari ibiganza bibiri bifashe ku gishashi cy'izo mbuto, ikiganza cy'ibumoso cyambaye agakomo k'amasaro y'umweru, ku ruhande hariho icyatsi.

Ni ubwatsi bushashemo ihema ry'umweru, iryo hema ryanitseho ibigori, hari umudamu wunamye muri ibyo bigori, bigaragara ko ari kwanika ibyo bigori, yambaye agatambaro kajya gusa n'ubururu ijuru mu mutwe.

Ahantu hateretse udufuka twinshi turimo imyaka hari uturimo ibishyimbo by'umutuku hari uturimo ibishyimbo by'umukara hari uturimo ibishyimbo by'icyatsi, umweru hari uturimo soya ruturimo amashaza n'indi myaka itandukanye.

Icyumba kirimo abasore babiri, abasore bambaye imipira y'umweru, yose yanditse mu mugongo ibi nimero, umwe nimero zandikishije umukara, undi nimero zandikisha umutuku, imbere yabo hari imbwa bari gutera urushinge.

Ahantu bororera inka hari inka z'amahembe maremare z'inyambo, iruhande rwazo hari abagabo bahagaze, harimo abambaye amabu y'umweru, undi yambaye ingofero y'umweru. Inyuma yabo hari amafamu kandi ayo mafamu arimo ibiti birebire.

Abagabo babiri bahagaze mu kiraro, hirya yabo harifamu, imbere yabo hari inka bari gukora mu nda y'amaganga y'iyi nka bigaragara ko bari kuvura, abo bagabo bambaye amataburiya y'ubururu.

Ahantu hari akabati k'ibiti, bifiteho utwuma tumeze nka supanete, kagiye gapanzemo udutambaro tw'ibibirigiti bahanagurisha, dokatakase mu buce ndetse hari kugaragara ikiganza cy'umuntu kigiye gufata agatambaro.

Ahantu hari ibiraro by'ibyuma, hari abagabo batatu, umwe yambaye isurubeti y'ubururu n'ishati y'umweru mu nda, undi yambaye itaburiya y'umweru na ga z'ubururu mu ntoki, iruhande rwe hahagaze undi wambaye agapira k'icyatsi.

Ahantu iruhande rw'ibyuzi hari igiti gitemye, kuri icyo giti hagazeho inyoni ebyiri, izo nyoni zose ziri kwishakamo ibintu biri kuzirya.

Ni mu ishyamba ahantu hari igiti gikoze, icyo giti kiryamyeho inyamaswa y'ingwe, iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara. Inyamaswa hejuru yayo hari ishami ry'igiti hari kugaragara utubabi gusa.

Ni mu byanya nyaburanga, harimo udusumbashamba tubiri, duhagaze mu biti birebire, iruhande rw'udusumbashamba, hari igiti kinini cyane gikuze, cyakokotse amababi yose.

Ahantu nyaburanga muri parike, hari ubwatsi butoshye, n'ibiti birebire bya nyegera, muri ubwo bwatsi hahagazemo inzovu nini ifite uduhembe imbere.

Ni mu ishyamba ririmo ibyatsi, ibiti birebire by'ishyamba ririmo inyamaswa z'intare ebyiri, hari intare y'ingore ndetse n'intarere y'ingabo, intare y'ingabo iraryamye na ho intare y'ingore yiciriye iricaye.

Ni mu ishyamba ririmo ibiti birebire, imbere y'iryo shyamba hari inyamaswa ebyiri z'inkura, inyamaswa imwe biragaragara ko isa n'aho hari ikintu iri kureba mu rupine runini rw'imodoka, izo nyamaswa uko ari ebyiri zateranye ibibuno.

Ahantu hari umwijima hirya, hari ikibuye kinini kuri icyo kibuye haryamye inyamaswa y'ingwe ifite utwoya ku ruhande ndetse amaboko yayo yayashyize imbere icyo kibuye.

Ahantu hashashe neza mu kirambi hari ibiti bisa n'ibyahungutse amababi ndetse ubwatsi bw'aho busa n'ubwumye bigaragara ko aha ari ahantu izuba riri kuva cyane.